Umugore w'imibiri yombi ukenyeye ibitenge afite umwana mu ntoki ndetse n'impapuro ebyiri urw'umuhondo n'urw'umweru, ari muri salle harimo n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye abana, abagabo ndetse n'abagore.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'icyatsi n'ipantaro ya kaki, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'icupa ryamazi n'ingofero y'ubururu, imbere hagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, ijire y'ubururu ndetse n'ipanta y'ubururu, iruhande rwaho hari umukecuru wambaye agapfukamuwa.

Umwana muto wambaye ikabutura yu'bururu n'umupira wunamye ufite igikombe mu ntoki cyumuhondo uri kuvoma ku ivomero inyuma ye hari igiti ndetse n'ibyatsi.

Umwana w'umukobwa uteze ibiganza ari kunywa amazi ku ivomero, inyuma ye hari umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru irimo indabyo, inyuma ye hari umugabo iruhande rwabo hari intebe ya move.

Umwana muto urwaye uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, abaganga babiri bambaye amataburiye y'umweru, umwe w'umugabo n'undi w'umugore, ndetse n'umugore wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, wambaye ibitenge ndetse n'agatambaro ko mu mutwe.

Umugore w'umuzungu ukuze ufite insakazamajwi mu ntoki wambaye isaha ndetse n'agakomo n'umupira w'umweru, inyuma ye hari ibipapuro bitandukanye bishushanyijeho, hari igipapuro gishushanyijeho amabara y'umutuku, n'umuhondo n'ubururu.

Abantu bambaye imipira y'imyeru, harimo abagore babiri bambaye amakanzu, abazungu babiri ndetse n'abandi b'abirabura. Bahagaze mu byatsi, inyuma yabo hari igipapuro cyanditseho ngo: ''Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.'' Kirimo amabara y'ubururu n'umweru n'umuhondo.

Umugabo wirabura wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ufite injerekani uri guseka ameze nkugiye kuvoma, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'imihati.

Umukobwa wicaye usutamye, wambaye umupira n'ijipo y'umukara, imbere ye hari amabase abiri ateretsemo injerekani isa nk'umuhondo. Iruhande rwayo hari igiti. Inyuma ye hanitse imyenda, ipantaro, umupira w'umukara, ikanzu y'ubururu n'inzu y'amabati.

Umusaza wambaye ibirenge, umupira w'umuhondo, ndetse n'igitambaro mu ntoki, ufashe hasi, nk'ugiye guhaguruka. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikanzu, n'ingofero mu mutwe.

Inzu isize irange, ifite ibaraza n'inzugi z'umweru zirimo ibirahuri. Imbere yayo hari amavaze ateyemo indabo, hari imikindo ndetse n'ibindi biti, ibiti bidufasha mu kuyungurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bakamererwa neza.

Umuryango urimo abana, umugabo, umusaza, umugore ndetse n'umukecuru wishimye bari guseka. Inyuma yabo hari indabo n'itara rimurika.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, gafite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, ari kumwe n'umwana wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro yikoboyi wicaye ku buriri, inyuma ye hari igiti gisa n'icyatsi kibisi ndetse n'itara ryo mu nzu.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu n'umusaza wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'ubururu ufite ubwanwa bw'invi, iruhande rwe hari ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti, umukecuru afite ibipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari imitako itandukanye.

Inzu isize irangi ry'umweru harimo ameza y'umweru, intebe y'umukara ifite amapine, n'akabati k'umweru, n'ibindi bikoresho bitandukanye, n'igikuta gisize irangi rya move na parafo y'umweru.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ifungishijwe inzugi zisize irangi ry'icyatsi, iruhande rw'inzu hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, itaburiye ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifungishijwe amadirishya ari mo ibirahure, asize irangi ry'mweru hejuru handitseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu avuga ngo "Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina".

Umugore ukenyeye igitenge imbere ye hari imodoka, inyuma ye hari abandi bantu benshi, iruhande rwe hari abagore babiri bari kuganira birabura, iruhande rwabo hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku ni'pantaro, y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara, uri kumanika inzitiramibu idufasha mu kurwanya malariya iterwa n'umubu.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, ipantaro y'umweru n'itaburiya y'umweru, imbere ye hari icyuma cyifashishwa kwa muganga, inyuma ye hari ameza y'umweru ndetse n'ibindi bikoresho.

Abantu bari kwa muganga, harimo umusaza wambaye ingofero n'umupira w'ubururu n'ipantaro y'ivu n'abana barikumwe.

Umugabo wambaye inkweto, ikabutura n'umupira uri muri siporo. Siporo ni ingenzi mu buzima kuko idufasha mu kurinda indwara zitandukanye nk'umubyibuho ukabije n'izindi.

Abaganga, umurwayi ndetse n'abagabo babiri. Umugabo umwe wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku. Undi wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'ikote risa n'ivu. Hari amarido y'ubururu bwerurutse.

Umusore uri gukora siporo. Wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara irimo amabara y'mweru ndetse n'isengeri. Siporo ni ingenzi mu buzima kuko bidufasha mu kwirinda indwara nk'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, gishushanyijeho abantu bagaragara n'abari muri siporo, siporo ni ingenzi ku buzima kuko zituma umuntu akomeza kumererwa neza akanarinda indwara zitandukanye nk'umubyibuho ukabije.

Umugore wicaye hasi ku itapi, uri gukora siporo, imbere ye hari mudasobwa, ibikoresho bya siporo ndetse n'icupa ry'amazi, siporo ni ingenzi mu buzima kuko bidufasha mu kugabanya umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara.

Vaze ya shokora, iteyemo ururabo rw'icyatsi, imbere hari agakombe karimo uburoso, iruhande rwako hari amavuta yo kwisiga akoze mu gikakarubamba, ari mu icupa ry'umweru, inyuma yiryo cupa hari amasume.

Agasekuru kifashishwa basekura imiti. Iruhande rwako hari icupa ririmo umuti w'umuhondo ndetse n'indi miti itandukanye hari umuti ufite ibirabyo bya move, iby'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi bidufasha mu gukurura imvura ku bahinga ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka abantu bakamererwa neza mu buzima bwa buri munsi.